Ni umugabo akaba ahetse ipombo yifashishwa n'abahinzi mu gukingira imyaka yabo, akaba arimo gukingira imyaka ihinze ku buso bunini ibi bikaba bifasha umuhinzi mu kuba yabona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umugore wicaye, hakaba inyuma ye hari imiti yifashishwa mu buhinzi. Imbere ye hakaba hateretse indobo n'utudomoro turimo kwifashishwa, ibi bikaba bimufasha kubona amafaranga ndetse bigafasha n'abahinzi kubona imiti ibafasha mu buhinzi bwabo kugira ngo butere imbere.

Ni abagabo babiri, bakaba bafashe ishashi irimo imiti n'amafumbire yifashishwa mu buhinzi, bikaba bibafasha kuba babona umusaruro umeze neza kandi utubutse.

Ni umugabo uhetse icyuma akaba arimo kugikoresha atera umuti ibihingwa biri mu bwoko bw'inyanya, ibi bikaba bifasha ibi bihingwa kuba bitafatwa n'indwara zigiye zitandukanye.

Ni umugabo akaba yambaye imyenda yabugenewe isa n'umuhondo, akaba afite ipombo ryifashishwa mu gutera imiti ibihingwa, imbere ye hakaba hari ibihingwa bitandukanye harimo gukingira indwara zigiye zitandukanye.

Ni umuntu uhetse impombo itera umuti, akaba ari gutera umuti ibihingwa bihinze ku buso bunini, iyi miti ikaba irinda ibihingwa kuba byafatwa n'indwara zigiye zitandukanye, zirimo udusimba twica imyaka.

Ni umugabo wambaye imyenda y'umweru, akaba afashe ipombo ryifashishwa mu gukingira ibihingwa bigiye bitandukanye birimo urusenda, ibirayi ndetse n'izindi mboga.

Ni umuma, ukaba uhinzwemo ibibyimba itoroshi, hakaba hagazemo umugore ufite imashini yifashishwa mu gukingira ibihingwa, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kugira umusaruro mwinshi kandi bameze neza mu gihe gitoya.

Ni abagabo bahagaze, iruhande rwabo hakaba hari icyuzi cyifashishwa n'aborozi mu kurora amafi, bakaba bafashe igikoresho cyifashishwa mu kurobaha amafi, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni utuzu dutoya tugiye twubatse ahantu mu byuzi byororerwamo amafi. Ibi bikaba bikorwa mu rwego rwo kugira ngo haboneke umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni abaturage bari mu byuzi byifashishwa na bamwe korora amafi. Bakaba bafashe ibikoresho byifashishwa mu kuroba. Ibi bikaba biba nta kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafu.

Ni umugabo. Akaba ateruye ibase irimo amafi. Inyuma ye hakaba hari ibyuzi byifashishwa mu korora amafi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni umugabo wunamye, akaba afashe ifi, akabari kuyipima, iruhande rwe hakaba hari ikiyaga, gikikijwe n'ibiti ndetse n'insina, ibi bikaba bimufasha kuba yabona amafaranga ayakesha uburobyi.

Ni umugabo uhagaze mu nzu, akaba iri iruhande rw'icyuzi cyifashishwa mukorora amafi, akaba arimo kuyagaburira ibi bikaba bimufasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni umugabo, uteruye ibase irimo amafi, akaba iruhande rwe hari ibyuzi byifashishwa n'aborozi b'amafi, ibi bikaba bibaha umusaruro w'amafi, uvamo ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ni abagabo umwe muri bo akaba afashe ifi mu ntoki, bakaba bahagaze mu cyuzi baroberamo amafi, iruhande rwacyo hakaba hateye amashamba.

Ni abagabo bakaba bahagaze iruhande rw'icyuzi. Inyuma yabo hakaba hari amashamba. Iki cyuzi kikaba kifashishwa mu bworozi bw'amafi bubaha umusaruro w'amafi, ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi nk'ibyo kurya ndetse no kubaha amafaranga igihe bajyanye umusaruro wayo ku isoko.

Ni abagabo bakaba, bakaba bafashe igikoresho cyifashishwa mu kuroba amafi, hirya yabo hakaba hari abandi bantu barimo koga mu kiyaga, ibi bikaba bifasha aba bantu kubona umusaruro ukomoka ku mafi.

Ni umugabo ufashe ku cyapa gisa n'umukara kikaba cyandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru, kikaba gishinze ahantu hari ibiti byinshi.

Ni ibihingwagengabukungu, bikaba bihinnze ku buryo bwa kijyambere, bikaba bitanga umusaruro uvamo amafaranga ku bahinzi babihinze, bikaba bikikijwe n'amazu yabo.

Ni abantu, bakaba barimo gusarura igihingwa gihinze ku buso bunini, ibi bikaba bifasha aba baturage mu kubona akazi ndetse n'umusaruro ukomoka kuri iki gihingwa, bakaba bawukuramo amafaranga.

Ni igihingwa gifite imbuto zisa n'umutuku. Zikaba zoherezwa mu mahanga. Zikaba zitanga amafaranga ku bantu bazihinze ndetse zikaba zinjiriza igihugu amadovize binyuze mu gutanga umusoro.

Ni imisozi iciyeho amaterasi y'indinganire, akaba ateyeho igihingwa ngengabukungu k'icyayi hakaba harimo abagore barimo kukinoga. Ibi bikaba bifasha abaturage kubona akazi ko kugisarura ndetse bigatanga amafaranga ku bantu bagihinze ndetse n'igihugu.

Ni abantu bicaye imbere yabo hakaba hari igihingwa k'ingano giteye kubuso bunini, bakaba barimo kuzisarura, ibi bikaba bitanga amafaranga kuri aba bantu baba barazihinze babafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni igihingwa ngengabukungu gihinze ku musozi, hakaba harimo abantu barimo kugisarura, iki gihingwa kikaba gitanga amafaranga ku bakozi bari kugikora ndetse n'igihugu.

Ni amacupa arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo arimo inkoko ndetse n'izindi.

Ni amacupa y'ubwoko bugiye gutandukanye. Akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi kuba bagira amatungo ameze neza.

Ni amakarito ari mu bwoko bugiye butandukanye, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amatungo. Ibikaba bifasha aborozi kubabona imiti yo kuvura amatungo yabo mu buryo buboroheye.

Ni amashashi, akaba ari mu mabara agiye atandukanye, umutuku, umuhondo n'icyatsi, akaba harimo imiti yifashishwa n'aborozi, mu kuvura indwara, zigiye zitandukanye, zifata amatungo.

Ni amashashi akaba ari mu ibara risa n'umuhondo, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga n'aborozi mu kuvura indwara z'amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni icupa rinini risa n'umweru, rikaba ririmo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bika bifasha aborozi kuba bagira amatungo ameze neza, adafite ikibazo na kimwe cy'uburwayi.

Ni amakarito atondetse ndetse akaba ari mu bwoko bugiye butandukanye. Akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifata amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo ameze neza mu gutanga umusaruro.

Ngo ni amakarito ari mu ibara risa umutuku ndetse n'icyatsi. Akaba arimo imiti yifashishwa n'aborozi mu kuvura no gukingira inka zabo. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku matungo yabo.

Ni umurima, ukaba utewemo imboga, iruhande rwawo hakaba hari ibiti birebire biteye ku murongo, izi mboga zikaba zitanga intungamubiri ku baturage.

Ni abahinzi barimo gukorera ibihingwa byabo kugira ngo bibe byakura neza, bakaba bari kubikorera mu buryo bugiye butandukanye, harimo abari kubibagarira ndetse harimo n'abari kuba kubyuhira.

Ni urukuta, rukaba ruriho igishushanyo cy'inka cyigisha uburyo bwo korora bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi mu gufata amasomo y'uburyo bagomba kwita ku matungo yabo ngo batere imbere.

Ni abahinzi bari mu gikorwa cyo gukorera imboga z'amashu, bakaba barimo kuzikorera bari kuzifsasira, abandi barimo kuzibagarira.

Ni inka zihagaze mu kiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, ibi biraro bikaba bifasha izwi nka kubaho neza zigatanga umusaruro uhagije ukomoka ku mata y'ifumbire ndetse n'inyama.

Ni ikirangantego, kikaba kiri mu ibara risa n'umweru, umuzenguruko w'umukara ndetse n'ubururu, kikaba kirimo ishusho y'inka nk'ikimenyetso cy'ubworozi buteye imbere muri ako Karere ka Nyagatare.

Ni umugore uri gukorera imboga, ari mu gikorwa cyo kuhira, akaba ari kwifashisha igikoreshocy'isuka, ibi ngibi bikaba bifasha izi mboga kuba zitatakaza amazi igihe izuba ribaye ryinshi.

Ni umurima wahinzemo ibigori ku buryo bwa kijyambere, hakaba hahagazemo abakozi barimo kubikorera. Ibi bikaba bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi baba bakoze.

Ni umugore, inyuma ye hakaba hari umugabo uri gutema amashu, iruhande rwe hakaba hari umurima uhinzemo amashu, ibi bikaba bifasha abahinzi kubona umusaruro w'imboga uhagije.

Ni igihingwa gihinnze ku buso bunini, hakaba hahagazemo abantu barimo kugikorera, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bikabaha amafaranga n'amafaranga.

Ni imbuto zinaje, zikaba zihohetse mu mashashi, zikaba zitwikiriwe n'ibiti no hagati hakaba harimo abantu bari kuzikorera, ibi bikaba bifasha abahinzi kubona imbuto zo gutera zifite ubuziranenge.

Ni abaturage b'abahinzi bahagaze mu murima, bakaba bari mu gikorwa cyo gusarura ingano, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku ngano, haba hakikijwe amashamba ya kimeza atoshye.

Ni umugabo n'umugore, bakaba barimo guhinga ku buryo bwa kijyambere ku muronko, iruhande rwabo hakaba hari ibindi bimera kimeza, ibi bikazafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umubyeyi w'umugore wunamye. Akaba afite igihoho kirimo ibinyampeke. Inyuma ye hakaba hari umugabo wari kuvugira kuri telefoni. Bakaba bari mu gikorwa cyo guhinga ibihingwa mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kugira umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Ni imisozi n'ibibaya bihinzeho igihingwa cy'ubwoko bumwe ku buso bunini, ibi bihingwa bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo barya ndetse n'amafaranga.

Ni igihingwa gihinze ku buso bunini, kikaba gihinzwe mu buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bihingwa.

Ni amazu akaba yubatse mu mahema y'umweru, akaba yifashishwa n'abahinzi mu gutuburiramo imbuto za kijyambere ziba zifite ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zigiye zitandukanye zifata ibihingwa.

Ni ibihingwa, bikaba bihinze ku buso bunini, iruhande rwayo hakaba hari ibyuzi, hakaba haciyemo akayira k'abanyamaguru, ihande rwabo hashinze ibyuma, ibi bikaba bibafasha mu kuba babona umusaruro uhagije.

Ni imboga zihinze mu murima, bikaba ari ibiryo by'abantu, zikaba zitanga intungamubiri zitandukanye ku bantu, zikaba zifasha abantu mu kwirinda indwara zikomoka ku mirire mibi.

Ni isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibirayi ndetse n'ibindi, hakaba hahagazemo abantu barimo bacuruza abandi barimo kugura, ibi bikaba bifasha umuguzi n'umugurisha kuba bahahurira bakumvikana ku giciro ndetse kibanogeye.

Ni impungure z'ibigori zirunze ahantu hamwe, zikaba ari umusaruro ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuba babona ibyo kurya ndetse n'amafaranga igihe babijyanye ku isoko.

Ni umurima munini uhinzeho ibigori, ibi bigori bikaba byifashishwa n'abaturage, mu kubiteza imbere, bakaba babikuramo ibyoku kurya, ndetse ibisagutse bakabijyana ku masoko, ndetse ibindi bikavamo ibiryo by'amatungo.

Ni imirima, ikaba iteyemo ibihingwa bitandukanye, birimo ibihaza ndetse n'ibindi, ibi bikaba byifashishwa n'abatorage, mu kubona amafunguro abafasha, umunsi ku munsi.

Ni inyubako, ikaba imbere yaho hateye ibitoki, ibi bitoki bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo barya ndetse n'amafaranga igihe babijyanye ku masoko.

Ni amashamba ya kimeza akaba afite ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye butoshye, ibi biti bikaba byifashishwa n'amatungo nk'ibiryo, uburyamo ndetse bikurura imvura ku baturage.

Ni imisozi miremire ikaba iteyeho amashamba ya kimeza, hakaba hanyuzemo umugezi munini, urimo gutemba amazi ibi bikaba bifasha inyamaswa mu kubona aho ziba ndetse n'ibyokurya kandi bikaba byakurura imvura, ndetse bitanga n'umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ni abantu bahagaze bakaba bafashe ibikoresho byifashishwa mu gutema, inyuma yabo hakaba hari amashamba hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare ndetse n'abandi batandukanye.

Ni amashamba, akaba arimo ibiti by'inganzamarumbo, mukaba harimo inka zirimo kurisha, ibi bikaba bifasha mu kubona umwuka mwiza, amatungo n'abantu bahumeka, ndetse bikaba bikurura n'imvura.

Ni inzu. Ikaba iri mushamba rya kimeza. Iruhande rwayo hakaba hari ikiyaga. Ibi bikaba bifasha abantu kubona umwuka mwiza bahumeka, imvura ndetse binatanga n'amafu ku baturage.

Ni ishyamba, rikaba ririmo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, bikaba bitanga imvura, umwuka mwiza duhumeka ndetse bikavamo n'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni amashamba, akaba igizwe n'ubwoko bw'ibyatsi n'ibiti bitandukanye, birimo ibirebire ndetse n'ibigufi, ibi bikaba byifashishwa mu gutanga imvura, umwuka mwiza duhumeka ndetse no kurinda isuri yangiza imirima y'abaturage.

Ni ishyamba rya kimeza, rikaba ari ishyamba ry'inzitane. Riteyemo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye. Ibyo biti bikaba ari bimwe mu bikurura imvura ndetse bikaba n'ibiryo by'amatungo.

Ni umugabo akaba ateruye igikarito kirimo imbuto zisa n'umutuku, akaba ari kuzisarura mu murima ihinze kijyambere, ibi bikaba bimufasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni igihingwa ngenga bukungu kikaba gifite imbuto zisa n'umutuku, izi mbuto zikaba zifashishwa mu gukora ibinyobwa bitandukanye, bikaba bitanga amafaranga ku bahinzi ndetse n'igihugu.

Ni igihingwa cy'urusenda, kikaba gihinze mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije, ubafasha kubona amafaranga, abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni imboga z'ubwoko butandukanye, hakaba harimo; ibitunguru, amashu, imyanya, ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abantu mu kwirinda indwara babona intungamubiri zigiye zitandukanye ziba ziri mu mboga n'imbuto.

Ni umugabo uhagaze mu mirima ikorerwamo ubuhinzi bw'amatunda, akaba afashe umusaruro w'amatunda mu kiganza, akaba arimo kuwerekana, ibi bikaba birimo gutanga inyigisho z'ukuntu wahinga amatunda ku buryo bwa kijyambere ukabona umusaruro uhagije.

Ni abantu bahagaze ahakorerwa ubuhinzi bwa kijyambere, hakaba harimo abafashe amasuka bari mu buhinzi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije kandi utubutse.

Ni imashini, zikaba ziri mu mirima ihinzwemo ibihingwa ku buso bunini, ikaba ikikijwe n'imisozi miremire, izi mashini zikaba zifashishwa n'abahinzi mu kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni umugabo akaba afashe isuka, akaba arimo guhinga ku buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bimufasha kubona umusaruro ukomoka ku buhinzi bukaba bumuha amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Ni idamu, rikaba rifata amazi yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye birimo ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona amazi igihe izuba ryavuye.

Ni inyubako ikaba ikikijwe n'uruzitiro rukozwe mu byuma iruhande rwayo hakaba hari imirima, iyi nyubako ikaba irimo imashini zifashishwa n'abahinzi mukuhira igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni umurima uhinzemo ibihingwa, ukaba urimo imashini zifashishwa mu kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije igihe izuba ryabaye ari ryinshi.

Ni umugabo uhagaze mu mirima ihinzemo imboga, akaba afashe igikoresho kifashishwa n'abahinzi mu kuhira no gucucira, imyaka ibi bikaba bifasha muhinzi kuba ya kubona umusaruro uhagije mu gihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni amazi arimo kuzamurwa n'imashini zifashishwa mu buhinzi bugiye butandukanye mu gihe cy'izuba, ibi bikaba bifasha abahinzi kuba bakwirinda guhura n'ikibazo cyo kuma kw'imyaka igihe izuba ribaye ryinshi.

Ni imashini irimo gusohora amazi, ikaba ikwifashishwa mu kuhira ibihingwa, ibi bikaba bifasha ibihingwa kubona amazi no mu gihe cy'izuba.

Ni umugabo akaba yikoreye ikiziritseho indobo ziri kuvamo amazi. Akaba arimo gucucira imboga. Ibi bikaba bimufasha kuba yakuhira imyaka ye igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni umugore, uhagaze mu murima uhinbyemo imboga z'amashu, akaba afashe imipira yifashishwa mu gutwara amazi, mu igihe cyo kuhira, inyuma ye hakaba hari amashyamba ya kimeza, iyi mipira ikaba imufasha mu kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni amazi azitijwe n'ibyuma bityeho irangi risa n'umutuku n'umweru ndetse bikaba bizitijwe na senyenge, hirya y'ho hakaba haparitse imodoka ndetse hakikijwe n'imisozi.

Ni umugore akaba afashe umupira utwara amazi yifashishwa mu kuhira ibihingwa ku musozi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kuba bakora ubwuhizi bw'ibihingwa mu gihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni imisozi, ikaba iteyeho amashyamba kiyimeza, aya mashamba akaba yifashishwa mu gutanga imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka, kandi arinda isuri yangiza imirima y'abaturage.

Ni urutoki ruteye rukaba rutoshye, hirya yarwo hakaba hari amazu akaba akikijwe n'andi mashamba ndetse n'imisozi iruhande rwayo.

Ni umusozi muremure, ukaba uciyeho amaterasi y'indinganire, akaba ateyeho imyaka igiye itandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage kuba babona ibyo kurya ndetse no kwirinda ko isuri yabatembanira ubutaka.

Ni inyamaswa yo mu ishyamba yo mu bwoko bw'agafumbashambo, ikaba ihagaze mu ishyamba rikikijwe n'imisozi mito iteyeho ibyatsi bya kineza ndetse binatoshye, bikaba ari ibiryo by'ayo matungo ndetse hakaba bifasha mu kwirinda ko haba isuri kuri iyo misozi.

Ni imisozi ikaba ikikijwe n'ubutaka buhinzweho ibihingwa bigiye bitandukanye ku buryo bw'amaterasi. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kuba ubutaka bwabo butatwarwa n'isuri ndetse no kubona umusaruro uhagije.

Ni imisozi ihanamye ikaba iriho amashamba y'ibiti birebire ndetse hakaba hakozweho n'amaterasi yifashishwa mu buhinzi bwa kijyambere, ibi bikaba birinda ubutaka kuba bwatwarwa n'isuri.

Ni abagabo bakaba bahagaze mu biraro birimo inka hirya hakaba hari amazu ariho ibigega bifata amazi. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amta ndetse n'ifumbire.

Ni umugabo uhagaze iruhande rw'ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo inka, ibi bikaba bifasha aborozi kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata, inyama ndetse n'ifumbire.

Ni inka zikaba ziri mu biraro byubatswe mu buryo bwa kijyambere, iruhande rwabo hakaba hari abantu bahagaze. Ibi biraro bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata ndetse n'ifumbire.

Ni ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, hakaba harimo inka, ibi biraro bikaba byifashishwa n'aborozi mu kurora amatungo mu buryo bwa kijyambere bikaba bafasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo ifumbire n'amata.

Ni abagabo. Bahagaze iruhande rw'inka. Bakaba bari mu gikorwa cyo gukama. Iruhande rwabo hakaba hari, ibikoresho byifashishwa mu gutwara umusaruro ukomoka ku matungo nk'amata.

Ni ikiraro cya kijyambere cy'inkoko, kikaba cyifashishwa n'aborozi b'inkoko mu kuba bateza imbere umusaruro uziturukaho ndetse no kuba zagira ubuzima bwiza butarimo indwara,

Ni umugabo akaba yambaye imyenda yabugenewe, akaba ahagaze mu biraro hakorerwamo ubworozi bw'inkoko, ibi bikaba bitanga umusaruro uhagije ku burozi, urimo amagi ndetse n'ifumbire.

Ni inkoko zikiri ntoya zikaba ziri mu cyumba, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa iyo bari kuzigaburira, ibi bikaba bifasha abahinzi n'aborozi kubona umusaruro uturuka ku nkoko urimo nk'amagi, inyama ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ni inka, zikaba ziri ahabugenewe mu kiraro, iruhande rwazo hakaba hari abantu bambaye imyenda yabugenewe, iri mu mabara atandukanye, arimo umweru n'ubururu.

Ni umugabo, wambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'ubururu n'umweru, akaba ahagaze mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere birimo inka, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku nka urimo amata ndetse n'ifumbire.

Ni amatungo magufi akaba aryamye mu mbuga, akaba atanga ifumbire yifashisha mu buhinzi, ndetse akaba atanga amafaranga yifashishwa mu gukemura ibibazo ibi bitandukanye byo mu rugo.

Ni icyumba kirimo inkoko zorowe ku buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko, ibi bikaba bifasha umworozi kubona umusaruro uhagije urimo amagi ndetse n'ifumbire.

Ni inka ihagaze, iruhande rwayo hakaba hari uruzitiro ruteye isima, ibi bikaba bifasha aborozi mu korora mu buryo bunoze, bikabafasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo, urimo ifumbire n'amata.

Ni icyumba kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa n'aborozi b'inkoko, ibyo bikoresho bikaba birimo inkoko zorowe mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi b'inkoko kubona umusaruro uhagije w'amagi.

Ni inkoko ziri ahantu hamwe mu cyumba, hakaba harimo amacupa ndetse n'utudobo twifashishwa n'izi nkoko mu kuba zagaburirwa, ibi bikaba bikorwa kugira ngo zibashe kuba zatanga umusaruro uhagije ku muntu uzoroye.

Ni ibiraro bya kijyambere, bikaba byifashishwa n'aborozi mu korora inkwavu, ibi biraro bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo harimo nk'inkwavu.

Ni inka ikaba ihagaze mu kiraro cya bugenewe, ikaba irimo kurisha ubwatsi. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kuba babona umusaruro uhagije urimo amata ndetse n'ifumbire.

Ni inka. Ziri ahantu hamwe. Hakaba hari ikiganza cy'umuntu uri kuzitungamo urutoki. Hiryaho hakaba hari ibiti birebire. Izi nka zikaba zitanga umusaruro ku borozi urimo amata ndetse n'ifumbira.

Ni umugore akaba afashe intara, iki kikaba ari igikoresho cyifashishwa mu kugosora imyaka igiye itandukanye irimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'impungure.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba afashe ishashi irimo imbuto, akaba arimo kwigisha uburyo bwo kuba bazitera ndetse no kubagira ubuhinzi buteye imbere.

Ni abagabo bahagaze mu cyumba, inyuma yabo hakaba hari imifuka ifatiyemo ibinyampeke bitandukanye, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kuba haboneka umusaruro wabo ukomoka ku buhinzi.

Ni umubyeyi w'umugore. Akaba arimo kwanika ibihingwa by'ibigori .Ibi bikaba bimufasha kubona, amafaranga ndetse n'ibyo kurya igihe yabijyanye ku isoko.

Ni ibiganza bikaba bifashe ikimera gifite impeke, bikaba arimo kuvungura. Ibi bikaba bifasha abahinzi kubona imbuto ndetse n'ibyo kurya mu buryo buboroheye.

Ni igikoresho kiri mu ibara risa n'ubururu, kikaba giteretse ku ntebe y'umweru, kikaba ari igikoresho cyifashishwa n'abaganga bita ku matungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kuba babona ubuvuzi bw'amatungo buboroheye.

Ni umuganga w'amatungo akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga igihe bari kwita ku matungo, imbere ye hakaba hari udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gupima indwara ziba zafashe amatungo.

Ni inka, zikaba zihagaze mu kiraro, iruhande rwazo hakaba hari ibyatsi bitoshye, ibi bikaba bifasha kuba zabona ibyo kurya ndetse no guhabwa imiti izifasha mu kwirinda indwara.

Ni inkoko zorowe mu buryo bwa kijyambere. Zikaba ziri mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'aborozi b'inkoko, inkoko. Ibi bikaba bibafasha kubona umusaruro uhagije w'amagi inyama ndetse n'ifumbire.

Ni umugabo wambaye imyenda yabigenewe, akaba ahagaze mu biraro bikorerwamo inka mu buryo bwa kijyambere, abafashe ku inka, ibi bikaba biha umusaruro uhagije urimo amata, ifumbire ku borozi.

Ni ibiganza, byambaye uturindantoki, bikaba bifashe ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona ubuvuzi bw'amatungo yabo.

Ni inyamaswa zikaba ziri kuguruka hejuru y'amazi. Ibi bikaba bifasha iz'inyamaswa kubona amazi yo kunywa ndetse no kuba zakogama.

Ni inyoni ebyiri. Ziri mu bwoko bw'imbata. Zikaba ziri mu mazi y'ikiyaga. Zikaba zirimo koga. Ibi bikaba biri kuzifasha kuba zaruhuka.

Ni inyamaswa y'ishamba. Ikaba ihagaze mu bwatsi bugufiya. Ikaba irimo kuburisha. Ibi byatsi bikaba biyifasha mu kuba yabona aho irara ndetse n'ibyo irya.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba zo mu bwoko bw'intare zikaba ziryamye ahantu hatagira ibyatsi ndetse havuye n'izuba ryinshi.

Ni inyamaswa ziva mu ishyamba, zikaba ziri kurisha ubwatsi, hirya y'aho hakaba hari ibiti birebire, ibi bikaba bizifasha mu kubona aho ziba, ndetse no kubona umwuka mwiza zihumeka.

Ni inyamaswa z'indyabyatsi z'ishyamba, zikaba ziri ahantu hamwe, zikaba zirimo kurisha. Hirya yazo hakaba hari ibiti birebire biturukaho umwuka zihumeka ndetse n'ibyo kurya bizitunga umunsi ku munsi.

Ni ibisimba byo mu ishyamba by'ubwoko bugiye butandukanye birimo intare, agasumbashyamba, inzovu, ingwe ndetse n'ibindi by'ubwoko bugiye butandukanye.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba zo mu bwoko bw'inzovu. Zikaba ziri ahantu hari ibyatsi birambuye. Ibi bikaba bizifasha kubona ibyo kurya ndetse n'aho ziba hafite umutekano.

Ni inyamaswa ziri mu bwoko bw'isatura, zikaba ziri ahantu mu ishyamba, ahantu bigaragara kotaweho n'umuntu kugira ngo babashe kuba bazirinda.

Ni inyamaswa y'ingwe ikaba iryamye iruhande rwayo hakaba hari ibyatsi bitoshye, bikaba biyifasha kuba yabona aho iba, ndetse n'aho yabona ibyo ihiga biyifasha kubaho mu buzima bwayo bwa buri munsi.

Ni inyamahaswate z'ubwoko butandukanye, hakaba harimo intare, inparage, ingwe, isumbashamba ndetse n'inzovu, iruhande rwayo hakaba hari ibiti by'inganzamarumbo, bikaba bizifasha kubaho mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Ni inyamaswa yo mu ishyamba, ikaba iri mu bwoko bw'ingwe, ikaba irimo kunywa amazi ihagaze ku giti, inyuma yayo hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye bitoshye.